Ikigo cy'amashuri abanza cyubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, harimo abana bari gukina, bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Abana biga mu mashuri abanza bambaye imyenda y'ubururu, bicaye ku ntebe nziza zisize irange ry'muhondo, ubururu ndetse n'iry'icyatsi.

Abana bari gukina bambaye imyenda y'ubururu, umuhondo ndetse n'umukara, ni abana bari mu kigero k'imyaka hagati y'umunani na cumi n'ibiri.

Abantu batandukanye bicaye ku musambi, barimo kuganira. Harimo abagabo, abagore ndetse n'abana, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye, bari kumwe n'abatoza babo, aba bana kandi biragaragara ko bishimye kandi banezerewe, hirya yabo hari inyubako isakaje amabati y'ubururu.

Icyumba cyicayemo abana baturutse hirya no hino, aba bana bari kunywa igikoma bigaragara ko bafite ikibazo cy'imirire mibi, bakeneye kwitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari ahantu bari kwiga basobanura abandi batumvise ibyo bize kugira ngo na bo barusheho kugira ubumenyi.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe zifashishwa n'abana bari kwiga, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bamenye no gusoma mu gihe basoje kwiga bazabone akazi.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe nyinshi ndetse kirimo n'umunyeshuri wicaye ku ntebe, harimo ikibaho kinini gisize irangi ry'ubururu.

Ikirango cyanditseho Ndi Umunyarwanda isano ihuza Abanyarwanda, batewe ishema no kuba Abanyarwanda, kiri ahantu ku rukuta rw'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati atukura, kiriho abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, iruhande rwacyo hanyura umuhanda w'igitaka urimo amabuye ubona ko utararangira gukorwa.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza barimo kwiga, bambaye imyenda y'ubururu ndetse na kaki, hagati mu ishuri harimo kandagira ukarabe.

Ikigo cy'amashuri cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu. Ni ikigo giteye irangi cy'umweru.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi zisize irangi ry'umweru, iyi nyubako kandi ni icyumba abarimu bakoreramo ibikorwa byabo bijyanye n'uburezi.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'abiga mu mashuri yisumbuye bari kugenda mu muhanda, bari ahantu hari amabuye menshi ndetse ubona ko barimo gutaha.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu giteye irange ry'umweru, iki kigo kandi cyubakishije amatafari ahiye kandi kiri ahantu heza hari amahumbezi.

Ikigo cy'amashuri abanza kirimo indabo ndetse gisakaje amategura, ni ikigo ubona ko kiri ahantu mu cyaro hateye ibiti byinshi.

Umwarimu arimo kwigisha abanyeshuri isomo rikomeye, abanyeshuri bararangaye kuko babuze icyo basubiza.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye iteye irange ry'umweru ndetse n'umuhondo, ni inyubako ubona ko ari nini kandi ikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Ikigo cy'amashuri cya Kigoma, cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisakaje amategura, ni ikigo ubona ko gikeye kandi ari cyiza.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara, bari kumwe n'abayobozi babo bari kubagezaho imbwirwaruhame.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gisize irange ry'umukara ndetse n'umweru, kiri ahantu heza kandi gikikijwe n'indabo ndetse n'ibiti byinshi cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye ahantu hamwe batezeye amatwi abayobozi babo, amashuri bigamo asakaje amabati y'ubururu ndetse n'umutuku.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye gifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu, iki kigo kiri ahantu heza hagaragara neza kandi hasa neza.

Kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye bifashisha barimo kuvura, ibyo bikoresho kandi byiganjemo imashini ndetse n'ibindi byuma banyuzamo abantu kugira ngo barebe indwara barwaye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'umukara, higanjemo abana biga mu mashuri abanza.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo kwiga, bicaye ku ntebe, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'ibara ry'umukara.

Ibigo by'amashuri bishakaje amabati y'ubururu hagati mu kigo mo imbere hateye indabo nziza, abanyeshuri bari kugenda baganayo.

Inyubako irimo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, barimo bariga amasomo atandukanye ndetse bungurana ibitekerezo ku isomo bize.

Icyumba kirimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, iki cyumba kandi harimo ibikoresho abayobozi bakoresha mu gihe batanga serivisi, baziha abaturage kugira ngo babeho neza.

Inyubako isize amarange y'umuhondo ndetse yubakishije ibirahuri by'umukara, yubatse ahantu heza hagaragara neza kandi isakaje amabati atukura.

Ibitanda bigerekeranye abanyeshuri bararaho, umwe aryama hasi, undi akaryama ku gitanda gikurikiyeho hejuru.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hari amatenti ahari arimo abantu bari mu nama bari kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye ndetse n'uburyo byakemuka.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu ndetse gisize n'amarangi y'umuhondo, iki kigo kandi gikikijwe n'ibiti binini bikurura umuyaga ndetse bigatanga n'amahumbezi.

Inyubako nini isakaje amabati atukura iteye irangi ry'umweru n'umuhondo, iri ahantu mu biti byinshi, bikurura umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ubukarabiro bwifashishwa n'abantu bavuye gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo birinde kuba bakwandura indwara, ubwo bukarabiro kandi bufasha abantu kugira isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi bikabafasha no kutandura.

Isomero ry'ibitabo rifasha abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bashaka gusoma kunguka ubumenyi, bikabafasha kandi kuvumbura ibintu bigiye bitandukanye byanditswe n'abakurambere.

Akabati gafite ibara ry'umweru karimo ibikapu bibiri ndetse muri icyo cyumba harimo igitanda kiriho matela nini ndetse n'ameza, iruhande rwayo hateretse intebe.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi, higanjemo abagabo ndetse n'abagore.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru na ga z'ubururu, barimo gutegura imiti bifashisha bavura abarwayi kugira ngo babashe gukira vuba.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo haparitse imodoka y'umweru n'umutuku, hirya hari ishyamba rinini, ubona ko ritoshye kandi ari ryiza.

Kwa muganga hari ibitanda bigiye bitandukanye byifashishwa n'abarwayi kugira ngo babe baruhutse mu gihe bategereje ubufasha bwa muganga, hari kandi ameza barambikaho ibikoresho byabo.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo imiti hakabamo ndetse n'ibindi bakoresha bavura abarwayi.

Icyuma k'ikoranabuhanga kirimo irangi ry'umweru, icyatsi n'ubururu kifashishwa n'inzobere kugira ngo zitange serivisi zigiye zitandukanye mu buryo bwihuse.

Inyubako irimo abantu batandukanye barimo gukora ibikorwa bitandukanye, ni inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abantu mu gihe bari gukora ibyuma.

Inyubako y'amacumbi y'abanyeshuri harimo amayesikariye munani ndetse n'amapave, impande yayo hateye indabo nziza kandi zigezweho zituma hagaragara neza.

Inyubako zitandukanye zisakaje amabati y'umutuku n'ubururu, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abantu bakoresha bakora imyitozo ngororamubiri.

Abayobozi batandukanye bari mu nyubako nini iri gutangirwamo inama. Abayobozi kandi bafite mudasobwa imbere yabo bifashisha mu gihe bari mu nama.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda myiza y'umukara, umweru ndetse na karuvati zitukura.

Abasore bari ahantu bahuriye bari kuganira uburyo bakemura ibibazo biri muri sosiyete, hagati y'aba basore harimo umuyobozi uri kubagira inama.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye. Hagati mo imbere harimo ibiti byinshi, ndetse n'indabo. Isakaje amabati atukura.

Amafunguro agiye atandukanye, arimo ibirayi, umuceri, imyumbati ndetse na karoti, ni ibiribwa birimo intungamubiri zitandukanye.

Inyubako nini irimo abayobozi benshi batandukanye, bari kuganira ku bibazo biraje ishinga igihugu binashakirwa igisubizo kirambye.

Isomero ry'ibitabo aho abantu bahurira bakiyungura ubumenyi kugira ngo bagire icyo bunguka mu bumenyi bwabo, hifashishwa kandi n'abayobozi kugira ngo bagire ibyo bahasomera babigeze ku bo bayobora.

Icyumba kirimo matera nini iri hejuru ku gitanda, iyi matera kandi irambitseho ibikapu bibiri binini bigaragara ko abantu bayiraraho kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, hari inyubako zigiye zitandukanye abanyeshuri bakoresha barimo kwiga ndetse n'amacumbi bararamo.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye. Iyi nyubako kandi iteye amarangi y'umuhondo, ndetse irimo n'intebe nyinshi. Bigaragara ko ari ahantu abayobozi babika ibikoresho byabo kugira ngo batange serivisi nziza.

Inyubako ndende igeretse kabiri isize amarangi y'umuhondo, iyi nyubako kandi ikikijwe n'ishyamba rinini ririmo ibiti birebire kandi bitoshye.

Inyubako isakaje amabati atukura, ikikijwe n'ibiti byinshi bikurura imvura ndetse bigatanga amahumbezi. Hagati muri icyo kigo hateyemo indabo nyinshi.